Konti ya Ki Sharon igaragaza amafaranga afiteho ndetse ikagaragaza ko nta na taransagishenizi zigeze zinyura kuri konti ye nk'uko bigaragara.

Umugabo umaze guha abana babiri amata, bari kunkwa bankwesha keke, ku meza hari utubuni tubiri tw'umweru, hari n'igicuba cyanditseho USAID cy'icyuma.

Inzu y'umutuku ifite amabati y'umutuku ariko bigaragara ko ari ku ikaragiro ry'amata kubera yuko hari icyapa cyanditseho Nyanza mirike indasitirizi rimitedi ndetse hanze y'iyo nzu hari umutaka w'umuhondo kandi hari n'ikindi cyapa kigaragaza ko bari kuduha ikaze kugira ngo tuhagane.

I santere y'ubucuruzi igaragaza agace bacuruzamo ibikoresho byo mu nzu, harimo matora, harimo intebe zo mu nzu, ububati n'ibindi. Ndetse hari abantu bari gutambuka, yaba abamotari bari kuri moto, n'abantu bari kugenda n'amaguru.